Umukobwa uri hagati y'imyaka makumyabiri na makumyabiri n'itanu, ufite ifoto y'umuntu, iruhande rwe hicaye: abana, abagore ndetse n' abasore n'abandi babiri bahagaze mu muryango.

Abanyeshuri benshi bahagaze bambaye impuzankano bamwe ni umweru hasi ni umukara, abandi n'umweru hasi ni kaki, umwe aricaye imbere, abandi barahagaze barimo gufata ifoto.